Icyapa kigaragaza ubwishingizi bw'umwuga, harimo umusore cyangwa umugabo ufite ubwanwa wasetse wambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru munsi yanditsemo amagambo avuga ati seka cya se jya uhora useka kubera ko turakwishingiye.

Icyapa kiriho umugabo n'umwana, umugabo ari gusuhuzanya n'umwana uhetse igikapu umwana muto, kuri icyo cyapa handitseho ko wasigasira ejo hazaza hawe.

Icyapa kigaragaza ikigo cy'ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro cyitwa Sonarwa, gishushanyijeho ibirenge bibiri by'umuntu bimeze nk'ibiri gukandagira. Icyo cyapa cyometse hasi.

Ikarita ya banki iriho imibare yo kwishyuriraho iyo karita kandi yerekana igihe izatakariza ubuziranenge .

Amashusho ya konti, ibyemezwa ku mateka ya konti: Amafaranga yinjiye ni amafaranga ibihumbi mirongo itatu na bitatu ndetse ayasohowe ni ibihumbi mirongo irindwi na bitanu na ijana na mirongo ine, amafaranga asigaye kuri konti ni mirongo icyenda na ane.

Ohereza ukoresheje itumanaho utangira kohereza ku mibare y'itumanaho utuzu wakuzuzamo mu mu gihe ushaka kohereza ukoresheje itumanaho.

Inzu iberamo imurikagurisha ry'imideri harimo ikanzu cyangwa se impuzu ndende y'iroza is'iroza hari mudasobwa cyangwa se inyemezabwishyu.

Abantu batatu bafashe igihembo gisa nk'aho ari sheke ya banki yitwa Coge bank.

Imodokari ndende bakunze kwita igikamyo ishinzwe kwikorera imitwaro iyijyana ahantu harehare isize irangi ry'umweru, irisa nk'aho ari shyashya, inyuma y'iyo modoka hari inzu y'amagorofa isize amabara y'umwijima.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki gitwaye amacupa ya gaze akaba ariwe muntu wambaye umupira w'umukara ipantaro y'umukara n'inkweto zifite ibara ry'umukara akaba hari n'undi wambaye ishati y'amaboko magufi bifite ibara ry'umukara ririmo uturonko mu tw'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara n'umweru.

Imodoka yari rusange, isize ibara ry'umweru ihagaze ahabugenewe. Inyuma yayo hari indi bimeze kimwe, ndetse aho hantu biri inyuma yaho hari ishyamba.

Inoti z'amafaranga ya rimwe y'Amashinwa hariho isura y'umuntu n'amagambo yo mu gishinwa n'imibare isanzwe.

Ibiganza bibiri bitandukanye bifashe amafaranga biyafatiye hejuru y'ameza ikiganza kimwe gifashe amadorari ikindi gifashe amashiringi y'amanya Kenya bose bari mu rugero rutandukanye.

Ameza ariho amata agiye atandukanye, amwe ni aya Mukamira, andi ari mu budomoro, mbese ni nk'ibintu bikomoka ku nka.

Ishusho igaragaza ibiro biberamo, ibiro biberamo ihererekanya, ibiro birafunguye imbere yabyo hari umuntu usa nuri gusohokamo biseze amabara y'icyapa cyerekana kiri mu mabara y'umuhondo.

Ibiruhuko bya kapu Tomasi yakundaga ubukozi bwo kugurisha ishusho rigaragaza iminara miremire itandukanye ishushanyije mu mabara atandukanye.

Intebe nini zirimo imifariso y'ubururu n'iyindi isa umweru, inyuma y'iyo ntebe hari indi ntebe yicarwaho n'abantu bari mu biro, imbere y'iyo ntebe imeza iriho hariho ikintu kimeze nk'igikombe ndetse muri iyo nzu harimo ifoto ishushanyijeho umujyi ndetse n'isaha.

Ubusitani buteyemo imikindo, indabo ndetse n'amavase, arimo indabo, iruhande rwayo hari inzu, iruhande rw'ubusitani hari inzu y'amagorofa birasa nkaho ari ahantu ho gusohokera.

Ibyapa byo ku muhanda ubisanga mu mabara atandukanye cyane ,aho usanga hari ibara ry'umutuku hagati harimo ibara ry'umukara. Ariko biba bigoranye cyangwa se bikunze kugora abantu benshi kumenya ngo ikimenyetso kifite icyo kigaragaza nk'ibyo bimenyetso bibiri ni ikihe? kuko abantu benshi bakunze kwibaza ngo umutuku cyangwa umukara ni ikihe kimenyetso kiri gutanga ubutumwa muri ibyo bimenyetso bibiri.

Ubusitani burimo icyapa kigaragaza izina ry'ubukerarugendo, ndetse harimo ibiti, icyo cyapa gikikijwe n'indabo n'ibiti ndetse nyuma yaho hari inzu ndende y'amagorofa agera nko muri arindwi.

Inama ikoranyije abantu benshi batandukanye bafite inshingano zitandukanye mu rwego rwa leta bambaye imyambaro itandukanye harimo amakote abandi na mama, abandi ni abapapa, harimo abakuze n'abatoya.

Inzu ngufiya iriho ibyapa biri iri mu mabara y'umutuku n'umweru, yanditseho bim na a hashushanyijeho umugabo uri kureba hejuru wasetse ndetse iranarangaye iyo nzu.

Ndabona imodoka eshatu ebyiri zigerwamo kuburyo bwa rusange muririzo za rusange imwe yanditseho imyaka maganabiri na mirongo itatu n'umunani y'uburambe indi modoka ni iy'ubwikorezi ifite ibara ry'umweru irimo umuntu yitwayezo zigendwa muburyo bwa rusange zicayemo abagenzi ndabona umunyamaguru ndagenda mu kayira k'abanyamaguru ndabona ibiti ndabona amapoto y'amashanyarazi ndabona insinga z'amashanyarazi n'amatara ku y'ishyamba.

Repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta, inama nyunguranabitekerezo n'inzego zo mu butegetsi bwite bwa leta, bikorewe i Kigali muri Mata bibiri na makumyabiri na gatatu.

Ishusho yamamaza y'imwe muri banki zigize amabanki y'u Rwanda yitwa eko banke, hariho umukobwa wasetse ufite n'itumanaho mu ntoki ivuga uburyo yamamaza uburyo wakohereza cyangwa ukakira amafaranga aturutse hanze, ushobora koyoherereza abagize umuryango.

Isoko ry'imboga n'imbuto harimo umucuruzi w'umutegarugori ateze igitambaro ndetse yambaye n'ikanzu irimo amabara y'umuhondo, hari umugabo uri kureba hasi ndetse inyuma yabo hari umugore usa nk'uri gutoranya imineke.

Iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye ibanza irasa nkaho ari iy'abana kandi izinze mu buryo butandukanye n'iri hejuru yayo , iri hejuru yayo irasa nkaho ari iyabantu bakuru .

Inzu isize amabara y'iroza ndetse n'ibirahure, ni inzu y'amagorofa ane imbere yayo hahagaze ama modoka menshi ndetse n'umuntu umwe wambaye imyenda y'umweru uri hagati y'ayo ma modoka.

Isoko ry'imboga n'imbuto. umucuruzi aricaye iruhande rwe hari ubwoko bw'imbuto butandukanye, inanasi, ibinyomoro, imineke, amacunga, hari ibishyimbo na avoka umucuruzi arasa nk'uwarangaye.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye abasore babiri umwe wambaye ikintu cyo kwifubika gisa icyatsi, bigiye imyenda irazinze n'akabati izingirwamo.

Umukozi w'itumanaho ryitwa emutiyeni ari kwakira ikarita iturutse ku mukobwa, uwo mukozi arasa nkaho ari kwandika imyirondoro afite ikaramu mu ntoki ari kuganira n'uwo mukobwa.

Ikiganza gifashe igikoresho k'itumanaho kirimo amabara y'umuhondo n'ubururu, yambaye umuntu ufite iryo tumanaho yambaye sakodo isa umukara, ndetse ikiganza kimwe gifashe ku kibero cye.

Ahantu muri sale haherereye abantu baje kwamamaza ibintu byabo by'ibicuruzwa ku ruhande imbere yabo hari abantu bari kubireba banareba uburyo bikorwa .

Umugabo cyangwa se umusore wambaye imyenda y'umuhondo n'umukara yicaye ku ipikipiki ariko ntago ayiriho ipikipiki isa umutuku ihagaze ndetse uwo mugabo ahetse igikapu ariko kiri ku ipikipiki gisa umuhondo.

Ishusho igaragaza inzu y'ibyumba bine iri Gisozi i Kigali, aha ni mu rwogero aho abantu cyangwa se umuntu uri muri iyo nzu yakarabira.

Hano hari icyo miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda zakugurira i Kigali. Hari inzu nziza irimo amatara isize amarangi y'umweru ndetse n'amakaro asa nk'ivu.

Inzu igurishwa byanditse mu rurimi rw'igiswahili n'urw'ikinyarwanda nurw'icyongereza iyo nzu iherereye mu kagarama igurishwa miliyoni cumi n'ebyiri z'amadolari .

Inzu y'ubucuruzi ifite amadirishya y'ibirahuri asize amarangi y'umweru harimo inkweto ndende z'abakobwa ndetse n'ubunyamideri bw'abakobwa.

Kizimyamwoto, iyingiyi ishobora kugufasha mu gihe mu nyubako habaye inkongi y'umuriro, kubera yuko iba iri hafi, ushobora guhita uyifashisha, ugakumira iyo nkongi y'umuriro itaraba nini.

Ahantu ndahabona umuntu mu kayira k'abanyamaguru arimo aragenda bika bigaragara ko hari n'undi muntu wicaye munsi y'umutaka wa emutiyeni ndetse bikaba bigaragara ko uyu muntu acuruza amayinite bikaba binagaragara ko hari imodoka y'umukara ndetse na taransifa y'amashanyarazi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bitandukanye cyane cyane amasabune y'isuku ndetse niby'abana.